Famili inshuwarensi, iyi ngiyi ni ubwishingizi bw'umuryango wawe ku bihereranye n'indwara, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, urugero amazu nk'imirima n'ibindi.

Inama yateranye, ni abayobozi batandukanye bicaye, barimo kuganira ku biri kuvugirwa muri iyi nama ndetse imbere hari agaseke, buri wese afite amazi yo kunywa, abandi bafite amakaramu barimo kwandika ndetse n'ibyo barimo bandikaho.

Umuyobozi yari arimo aravugira imbere y'abaturage bicaye, hirya hari n'ikigega cy'amazi, ni ku Kagari cyangwa ku Murenge.

Inama yateranye buri umwe yicaye mu mwanya wiwe barikumva ibyo bababwira cyangwa se bari kumva ko kungurana ibitekerezo.

Ni inama yateranye, harimo umupapa wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'umumama wambaye umupira w'umuhondo, yambaye indorerwamo, hari n'abandi bagiye batandukanye, buri wese afite mashine n'impapuro zo kwandikaho, ndetse n'amazi yo kunywa y'Inyange.

Ni muri sitade harimo abayobozi batandukanye, buri wese yicaye ku ntebe yiwe, hejuru hari amatara amurika cyane hari igikorwa cyahabereye ndetse bateze amatwi ibyo ibirimo kuhabera byose.

Ni inama y'abayobozi batandukanye, harimo abayobora abandi, buri wese yicaye ku ntebe afite amazi yo kunywa ndetse n'ikaramu na mashini, barimo kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye.

Inama yari yateranye bari kuganira, hari uburyo bari kuganiramo, buri wese aganiriza mugenzi we, barimo kunywa amazi, hari abari gukoresha telefone, hari abari gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ni inama yari yabaye abayobozi bagiye batandukanye baricaye, bafite na baje z'akazi buri wese afite icyo kunywa hari abafite amazi, hari abafite ji z'inyange, bari kureba imbere hari abarimo kubavugisha bari kureba.

Ni inama yari yateranye, hari abagabo bane bicaye mu ntebe zabo, hari n'umumama umwe barimo kuganira ku bibazo bitandukanye, buri wese afite amazi yo kunywa y'Inyange.

Umuturage cyangwa umuyobozi yari arimo atanga igitekerezo abwira abaturage hari habaye arimo ababwira ibyo yagombaga kubabwira.

Ni abamama batatu bicaye ku meza, babiri bafite amakaramu undi ntago agafite ikaramu, buri wese afite amazi yo kunywa mu gacupa y'Inyange, barimo kureba uwo muntu uri imbere yabo ari kuvuga, baribkumva ibyo arimo kubabwira.

Abayobozi bicaye mu ihema harimo abagabo, abagore ndetse n'abasore, imbere yabo hari akameza gato kariho igitambaro cy'umweru ndetse n'amasakoshi abiri. Hari abagabo bambaye imipira y'umuhondo, harimo uri gukanda muri telefone, abandi barimo kureba imbere, hari ibyo bari kuhareba.

Ibirori byari byabaye buri muturage yicaye neza, ntawe uticaye ntawe wabuze umwanya, yicaramo ndetse hari n'intebe ziticayemo abaturage bitewe nuko intebe zihagije, barimo kumva umuyobozi ibyo babwira cyangwa se bari kureba.

Inama yateranye, hari abayobozi batandukanye, harimo abapapa babiri, bambaye amashikoti y'umweru, babiri bambayemo imbere ishati z'umweru undi yambaye ishati irimo utubara tw'ubururu n'umweru, imbere yabo hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse n'ikirahure cyo kunyweramo, bari kureba imbere, bumva ibyo bari kubabwira, abari mbere yabo.

Iyi nama yateranye harimo abantu benshi, abagabo, abagore bicaye mu ihema barimo kuganira, imbere y'aho hari abayobozi bagiye batandukanye barimo kuganira.

Abagabo bane batanu baricaye, umuzungu ndetse n'abandi bane b'abanyarwanda, buri wese afite ikayi mu ntoki, barimo kuganira ku bintu bigiye bitandukanye.

Ni abayobozi bahagaze bambaye udupfukamunwa, hari n'abandi bicaye hari imeza nini utumeza tugiye tubakikije, buri wese afite akantu ko kunywa mu gikombe, hari muri kovidi cumi n'icyenda.

Inama yabereye mu nyubako baricaye barimo kumva ibyo umuyobozi ababwira, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse umupa uri kubaganiriza yambaye ipantarobo n'umukandara, afite mikoro arimo kubaganiriza yambaye indorerwamo hirya harundi mu mama wambaye igitambaro mu mutwe cyumukara nikanzu irimo amabara y'umweru n'umukara.

Ni muri sale baricaye barimo kuganira buri wese mu ntebe ye, harimo abapapa batanu n'umumama umwe, yambaye agashati k'ubururu afunze shinyo, yambaye n'amaherena n'inkweto z'umweru, imbere yabo hari akameza gateretseho ururabyo ndetse buri wese afite n'icyo kunywa.

Abaturage baricaye buri wese afite urupapuro arimo kwandika ndetse mbere ywe hari hari ikayi n'amazi yo kunywa.

Ni ikiganiro cy'umujyi wa Kigali, bakaba bari kuganira uburyo basukura Kigali, bagatura ahantu heza, Kigali izira indwara ndetse n'umwanda.

Abaturage bari bishimiye, ubona ko bishimiye ibikorwa byabereye ahangaha, ndetse bakaba bari bari no kubyina, hari habereye ibirori bitandukanye. Bishimiye abayobozi.

Abayobozi bicaye mu myanya yabo baraganiriza abaturage, buri muturage afata ijambo abagezaho ikibazo afite nanbo bakamuha igisubizo kirambuye.

Inama yari yateranye hari abaturage benshi abayobozi bari kuganira ku bintu bitandukanye.

Ni abayobozi bari bicaye abaturage bizihiwe ubona ko bari kwakira abashyitsi hirya hari abana bari mu byiciro bitandukanye hari abato n'abakuze barimo kwishimira ibirori byabereye ahangaha.

Aha ibi ni ibirori byabay aha ngaha urabona ko abaturage buri wese yicaye mu mwanya we we yumva ibiri areba ibiri kubera imbere yiwe buri wese ateze amatwi agira ngo arebe ko bimeze.

Bicaye muri biro hari umugabo wambaye ishati yubururu urimo kureba ku ruhande hari nundi mu mama uri kwandika n'ikaramu ku ikaye yambaye umupira w'umuhondo asutse ibisuko yambaye linette inyuma ye hari abagabo umugabo umwe wambariye indorerwamo mu mutwe ndetse nundi mu mama bari kumwe wambaye agatambaro k'ubururu mu mutwe.

Ni umuyobozi arimo araha amabwiriza abamuri imbere. Ni inama yari yabaye . Buri wese akaba afite amazi yo kunywa.

Aha bari bari mu gikorwa cyo kurwanya virusi itera sida, virusi itera sida akaba ari ubwoko bw'agakoko gaterwa no gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu uyirwaye idakingiye. Nibwo agaragariza ako gakoko.

Inama yari yateranye bari kungurana ibitekerezo, bumva mugenzi wabo ibyo ababwira bamuteze amatwi. Nta n'umwe wari urangaye, buri wese yarahari kumva ibyo mugenzi wabo avuga.

Inama yateranye, ikaba igizwe n'abaturage batandukanye, abayobozi ndetse n'ababayobora. Barimo baraganira ku bibazo bigiye bitandukanye.

Bari mu nama hari umugabo uhagaze, wambaye ipantaro n'umupira w'umweru n'ikote ry'umukara, ufite mikoro arimo kuvuga, ku ruhande hari undi mumama nawe uhagaze wambaye ingofero n'amarinete.

Hano bari mu nama hari nk'umuntu bari bategereje basa nk'abarimo kujya impaka ariko hari nk'umuntu bari bategere wenda uje kuba yabamara izo mpaka.

Bicaye umwe afite mikoro arimo aratanga igitekerezo kuruhande rwe hari umama no hirya ye hari umupapa buri wese afite icyo kunywa akaba ari amazi arimo kunywa.

Ni igikorwa cyari cyabereye hano, hari abamama bambaye imipira y'icyatsi kibisi n'amapantaro y'umukara ndetse n'abapapa, inyuma yabo hari abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara, hari umupolisi wicaye mu ntebe, yambaye umwambaro w'umukara ndetse n'ingofero y'umukara.

Inama yateranye barimo barafata ibyemezo cyangwa se imyanzuro, hari umuntu urimo kubaganiriza ababwira uko bimeze nabo bamuteze amatwi, buri wese ari kunywa amazi ndetse afite na mashini.

Ni umunara muremure cyane, ukozwe n'ibyuma bisize irangi ry'umutuku, hirya hari inzu ntoya isize irangi ry'umuhondo, ikikijwe n'ibyuma bigiye bitandukanye, ndetse haranubakiye.

Igihe ukeneye ikirango cya wayifazi ukaba ikora ku buryo bworoshye, hari n'igiti n'imikindo bakaba barikwereka abaturage aho bayisanga.

Aha ni kuri Rwanda Revenue Authority, hakaba hakorerwa ibintu bijyanye no gusora, bakaba bari kwereka abaturage uburyo bakoresha ugira ngo usore ukanda akanyenyeri magana n'inani urwego cyangwa ugahitamo ururimi wifuza gukoresha.

Iki ni icyerekezo bibiri na makumyabiri - ibiri na mirongo itanu kikaba kigaragaza aho turi kwerekeza muri ibi bihe bigenda biza.

Iyi ni serivisi nshya y'urubuga rw'irembo gove, bakaba bakora ubucuruzi n'inganda, uruhushya rwo gukora ubucuruzi ndetse ukaba wahamagara kuri zeru karindwi icyenda kabiri, kabiri, kabiri, kabiri, kabiri, kabiri, zeru cyangwa ugahamagara zeru icyenda zeru, icyenda, icyenda.

Umunara munini muremure cyane, ku ruhande rw'umunara hari insina nyinshi ndetse hari n'ibiti, umunara ukaba ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage ndetse n'ahandi hatandukanye.

Uburyo wakoresha urusora, ukamenyekanisha n'umusoro ku nyungu, wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ukoresheje telefone igendanwa, ukaba wakanda akanyeri magana inani urwego, cyangwa ugahitamo ururimi wifuza gukoresha.

Ni umugabo wicaye kuri mashini, iruhande rwe hari abandi bicaranye, bambaye udupfukamunwa, hari muri Kovide cumi n'icyenda, imbere hagiye hari imashini zitandukanye, arimo arerereka umuturage serivisi yamusabye kumukorera.

Amahugurwa yabaye buri wese afite mashini ye ndetse na telefone hari ibyo arimo guhuza muri telefoni ndetse na mashini.

Ni umurima w'icyayi hakaba harimo abasoromyi b'icyayi, ni abamama babiri barimo kugisoroma bishimye cyane, icyayi kikaba gifite akamaro gakomeye ku baturage ndetse n'ahandi harihoho hose.

Ni umunara muremure cyane aho ushingiye hubakishijwe n'amabuye ndetse akikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, imbere yawo hari akazu gatoya gasize irangi ry'umuhondo gasakajwe n'amabati y'ubururu. Uyu munara ukaba ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse no gutanga amarezo.

Ikiganiro cy'ibijyanye n'imisoro n'amahoro hari umupapa ndetse n'umumama witwa Batamuriza hajara na Mbera Emmy bari kuganira ku bijyanye n'imisoro ku nyungu z'abaturage.

Umumama wicaye ari muri mashini, iruhande rwe hari undi mumama bari kumwe, hirya hari abapapa babiri bari kureba muri mashini, hari ibyo bari kurebamo ndetse imbere yabo hari telefone.

Ni uburyo bwo gukoresha apudeti kuri ibiyemu yawe niba ukoresha laputopu, desikitopu cyangwa tabuleti ikoresha windo. Ukaba wabahamagara kuri gatatu zero zero kane.

Ni uburyo bwo kubwira abantu bashaka gushyingirwa uko bazajya babigenza ni ku irembo, ntabwo bizajya bibagora bazajya baca ku irembo ubundi bategure umunsi babiteganyirijeho.

Ni igipangu kirimo inyubako zitandukanye, harimo n'ubusitani, ibiti, hirya hari andi mazu menshi y'imiturirwa, atuwemo n'abantu.

Ni iminara ibiri ikaba ifatiyeho insinga z'amashanyarazi, hejuru mu kirere hari ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iyi minara ishinzwe gutanga interineti cyangwa se kwihutisha itumanaho.

Ni abafundi barimo kubaka etaje, hari abafundi bagera muri batandatu, bambaye ibisarureti by'ubururu ndetse n'amagofero y'umuhondo, buriye barimo kubaka.

Uyu ni umunara imbere yawo hakaba hari undi munara wa kabiri, ukaba wo ukoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ugera ku baturage bose.

Aha ndabona umutaka wa eyateli ndetse n'umu ajenti, hari inyubako imeze neza ya konoshi.

Umuhanda urimo kugendamo abakobwa babiri, umwe ahetsi ibaga, undi afite telefoni mu ntoki afite n'ikote ku rutugu. Hari amapoto agiye akikije umuhanda ashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Igipangu kinini kirimo amazu akodeshwa, harimo ipoto, inyuma yacyo hari inyuma hari andi mazu menshi atuwemo n'abantu.

Ni bisi nini itwara abagenzi, ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hirya hari izindi nyubako zigiye zitandukanye nazo zifite ibara ry'umweru, hari n'inyubako, hakaba n'ipoto rinini ricometseho insinga zikwikwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako ndende imbere yayo hari igiti kinini cyane, haparitse imodoka, hari ipoto zicometseho insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba hariho n'itara rimurika n'ijoro, iyi nyubako igeretse inshuro ebyiri ndetse hasi bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda wa kaburimbo harimo ipoto rirere ririho isinga z'amashanyarazi, hirya hari ibiti bikikije umuhanda, hari ubusitani ndetse hari n'amazu ahagana hirya n'ishyamba.

Ni inyubako iri mu rugo rukoreshejwe indabyo, harimo imikindo itatu n'ubusitani ndetse iyi nyubako isize irangi ry'umuhondo, hari i poto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hari nu...

Ipoto rirerire rikikijwe n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ku nyubako hari ikirango cy'ikimenyetso cyo guteranya, ahagana hirya hari andi mapoto abiri inini n'intoya.

Ni amapoto abiri ahagaze, hariho ibyuma bitatu bitambitse ndetse hariho n'agasanduku gashinzwe kubika umuriro w'amashanyarazi, hasi hari ibice bigufinya ndetse n'ibirebire by'amoko agiye atandukanye.

Ni igipangu kinini imbere yacyo hari akapa gatoya, hakaba n'ipoto rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, igipangu hariho indabyo zirandaranda hakaba n'umukindo mutoya, hirya hari izindi nzu hagana mo imbere hakaba n'umukindo munini.

Ni umunara muremure cyane w'itumanaho, iruhande rwawo hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'indabyo na pasiparama, hari n'inyubako zitandukanye, hari ibiti by'umugano ndetse uyu munara ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu nsinga.

Iyi nyubako ndende iragaragaza imiryango ibiri ariko hirya hari iyindi y'ubucuruzi hari umutaka wa Emutiyeni n'ibyapa byari bitandukanye hejuru hari umunara munini cyane uriho insinga z'amashanyarazi zishinzwe gutanga umuriro mu baturage ndetse n'ahandi hose.

Ipoto ikwirakwiza umuriro imbere yayo hari umunara hakaba n'indabo ndetse n'amatara ku muhanda acana nijoro.

Ipoto itanga umuriro w'amashanyarazi ikikijwe n'ibigori hirya hari insiina ndetse n'ibiti bitandukanye.

Inyubako iriho amapoto abiri n'ibiti, ku ruhande hari umupolisi ndetse n'inyuma ye hari imodoka ziri kuhanyura.

Ni kwa muganga, hari abarwayi bagiye batandukanye baje kwivuja barimo kubakira hari umurwayi uryamye ku ntebe, hirya hari abandi bagiye bicaye, hari abahetse abana ndetse ivuriro ririho imiryango n'amadirishya ariho amarangi y'umweru.

Ni inyubako ifite jaride ya pasiparama, hari akabaraza ndetse n'amadarage uzamuka werekeza muri iyi nyubako, isize irange ry'umuhondo ndetse n'iry'umweru, hari ahagiye hasakajwe amabati agiye atandukanye.

Ni inyubako zitandukanye harimo igeretse kabiri, hirya hari izindi ebyiri za kadasitere; hariho amarangi y'umuhondo, hariho n'amabati y'umutuku akikijwe n'ubusitani, ndetse hari n'iri mu kabaraza kariho amabati.

Ni inyubako zigiye zitandukanye, hari akabaraza hakaba n'icyapa cy'ubururu, hakaba n'umuferege wubakishijwe amabuye, hakaba ubusitani bwa pasiparama, indabo ndetse n'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifite urugi rusize irangi ry'ivu, hirya hari indi yubakishijwe amabati.

Ni ikigo cy'amashuri hakaba harimo koridoro ndende cyane isakajwe amabati, iri shuri ryubakishijwe n'amatafari ahiye, hirya hari indi nyubako ndende isi zirangi icyumweru ndetse n'ibirahure bisize irangi ry'umukara.

Ni ku ivuriro cyangwa ku Kagari, hari umumama wicaye yifubitse igitenge , iruhande rwe hari umusaza, abasaza babiri, hirya hari uwundi muganga ndetse hari n'umukobwa wicaye ku ntebe wenyine, ni ku muryango wa gatatu.

Ni muri sale hari abayobozi bake batandukanye, harimo abamama babiri bicaye imbere ya mashini zabo, harimo uwambaye agashati k'ubururu n'undi wambaye ak' umuhondo, buri wese arimo arareba muri mashini yiwe, hirya hari n'abandi bari ku yindi meza buri ruwese afite mashini yiwe ari gukoresha.

Ni muri gare, hari umusekirite urimo ureba imodoka ziri kwinjira ndetse n'izisohoka. Mo imbere harimo bisi harimo na toyota, n'amavatiri harimo n'abagenzi.

Ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro ya kake ndetse n'inkweto z'umukara arimo arafasha umurwayi, yicaye ku ntebe yambaye ikanzu y'umukara ndetse afite n'ibishuko by'umukara.

Ni ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro, hari umumama wicaye mu kagare, hirya hari undi wicaye ku ntebe, inyuma y'uwo wicaye ku ntebe, hari umugabo uhagaze ufite igipapuro mu ntoki, hari undi winjiye bagiye gushozuma.

Ni inyubako imbere yayo hari ubusitani, ni ku murenge cyangwa ahabera ibikorwa bigiye bitandukanye, hari ibigega ndetse hirya yaho hari n'amashuri.

Ni umumama wari warangije ikicaro cya ikiciro cya kaminuza akaba yari yambaye ingofero y'umukara, ku ruhande hariho akabara k'umuhondo, yambaye rinete ndetse n'ikanzu y'umuhondo imbere iriho ibara ry'umweru.

Iyi ni gereza harimo imfungwa n'abagororwa ndetse bakaba bari kumwe n'abashinzwe kubayobora aribo bita abasoroviya, hari nk'aho bari bavuye basubiye aho bagomba kuba basubiye mu myanya yabo.

Ni ibikarito byanditseho gacaca, gacaca ikaba ari ahantu bajyaga gushinjwa barakoze jenoside yakorewe aba tutsi, muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Aha ni mu rukiko, hari abacamanza, hari abashinja n'abashinjwa, bari mu rukiko.

Abayobozi babiri baricaye, umwe yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru mu imbere ndetse na karuvati, Yambaye n' indorerwamo. Undi wo hirya yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru mu imbere n' indorerwamo.

Aba ni abagororwa bisa nkaho biteguye kuburana urabona ko bicaye ku ntebe nyine, hari n'abaje kubumvira urubanza uko ruri bu ko ruri bugire uko rutangira n'uko ruri burangire nibyo ndikubona.

Ubu ni ubushinjacyaha ubushinjacyaha bivuze kuba umuntu ashinjwa icyaha, yaburana basanga kimuhama akaba yakatirwa, basanga kitamuhama akaba yarenganurwa akarekurwa.

Ni abacamanza, umwe aricaye abandi babiri barahagaze bambaye amakanzu y'umukara harimo n'ibara ry'umweru, bafite ibipapuro byo kwandikaho, hari umugororwa ugiye kuburana urubanza.

Abagororwa cyangwa se imfungwa bakaba bari kumwe n'ababayobora, abasoroviya cyangwa se abayobozi, bakaba basa nkaho hari ibyo barimo barimo kujya gusinyira, batonze umurongo.

Ni umuyobozi wambaye ikositimu y'ubururu na karuvati y'ubururu, yambayemo mo imbere ishati y'umweru arimo kureba imbere, hari ibyo arimo kuhareba.

Inama yateranye bari kungurana ibitekerezo buri umwe abwira abandi ubumenyi afite ndetse n'ubuhanga kandi bamuteze amatwi buri wese afite icyo kunywa bitewe n'icyo ashoboye.

Inama yari yateranye abayobozi batandukanye barimo kuganira ku bibazo bimwe na bimwe byugarije igihugu, cyangwa se bari gufata ingamba, ingamba nshya zungurana ibitekerezo.

Abagororwa bicaye ku ntebe, bambaye iroza, bambaye udupfukamunwa, barimo kuganira, bari iruhande rw'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hari agacupa k'umutuku, hari amadirishya ndetse n'imiryango igiye itandukanye n'amabati, isakajwe n'amabati.

Abayobozi bagiye batandukanye baricaye, imbere yabo hari abacamanza barimo kurahira buri wese afashe ku idarapo ryiwe, bambaye amakanzu y'imikara barahije imbere y'abaturage.

Aha buri wese yicaye mu mwanya we, bambaye udupfukamunwa, ni mu gihe cyari icyo kwirinda Kovide cumi n'icyenda, hari umukecuru uri kuganira n'umusaza.

Muri sare hicayemo abantu bagiye batandukanye, abapapa, abamama, hari umupapa uhagaze bahaye mikoro cyangwa se uri gutanga igitekerezo, yambaye ikote ry'umukara ndetse yambaye n'indorerwamo, abandi baricaye bari gutega amatwi ibyo ari kuvuga, hari abamama basutse direde, hari umupapa.

Umugororwa ari imbere y'urukiko ari kuburana ahagararanye n'umucamanza abandi nabo barimo kumutega amatwi bumva ibyo arimo kuvuga.

Ni umugabo uhagaze yambaye ishati y'umutuku mwimbere yambaye umupira w'umweru uhagaze imbere y'abantu arimo kuburana cyangwa se arimo kubabwira ibijyanye n'ibyo barimo kumubaza.

Uyu ni umucamanza yambaye ikanzu y'umutuku, ugaragaza nyine yambarwa n'umucamanza, akaba arimo yumva abo agomba gucira urubanza abateze amatwi.

Ni umupolisi yambaye imyenda y'ikigina ku ruhande rwayo ku kuboko kw'iburyo hariho ibendera ry'u Rwanda ririmo amabara 3 ubururu, umuhondo n'icyatsi. Ashoreye umugororwa yamwambitse amapingu ndetse umugororwa afite impapuro mu ntoki yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'uwamushoreye nawe yambaye agapfukamunwa ari ahantu heza.

Ni abagororwa bari mu myitoro, ku ruhande hari umugororwa wasuwe, ndetse n'abayobozi b'abo, bari imbere y'inyubako nini cyane, akaba ariho baba.

Umugorerwa barimo kumwinginga ntago ari kumva ibyo bamubwira, ahubwo we barimo arashaka kugenda ariko bo bakamwinginga bamugarura, asa nkaho bari kumuturiisha ngo abumve.

Ni abasaza bagera muri batanu, bambaye umwambaro uriho ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, urabona ko basa nk'abarimo kuganira ku bitekerezo bungurana ibitekerezo.

Aba barimo kurahira, bafashe ku ibendera ry'u Rwanda, bamanitse ukuboko barimo kurahira, ku ndahiro batazatatira, kandi biragaragara ko babyishimiye, kandi ko batazatererana igihugu.

Umuyobozi yicaye mu biro, arimo arumva abandi bayobozi, ibyo barimo baramubwira. Imbere ye hateretse udupipiri tubiri, harimo akarimo amazi ndetse n'akarimo ji. N'ikirahure.

Umupolisi ari ahagaragara nkaho higishirizwa ibinyabiziga akaba arimo arareba umutekano waho uko wifashe.

Polisi iri mu muhanda, inyuma hari umumotari uhetse umugenzi, imbere yayo hari imodoka iri kuza ya toyota cyangwa tagisi irimo umuntu uyitwaye.

Imodoka ya Toyota kuruhande rwayo hari ikigega cy'umukara hirya hari ubusitani bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Aha bari kwerekana ibicuruzwa bitandukanye bacuruza bakaba bari kwereka abakiriya babo ibyo bagura.

Mu muhanda ni imodoka ya polisi irimo abapolisi babiri ahagana inyuma, bari gucunga umutekano, inyuma y'iyi modoka hari abamotari babiri na bo batwaye moto za polisi, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti bitandukanye, hari n'amatara menshi.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Ni umugabo ufite igicupa cy'umutuku, arimo arerereka abari imbere ye uko gikoreshwa; bakaba bicaye bamuteze amatwi bumva uburyo bagikoresha.

Ni ijambo umurinzi harimo ibiganza bibiri ndetse n'ukwezi bisobanuye ko ari umurinzi.

Ni kwa muganga, hari umumama ufite urupapuro mu ntoki, ahetse n'umwana, imbere ye hari undi wambaye ibitenge birimo ibara ry'ubururu n'umweru, hakikijwe n'ibitambaro by'umweru bahashyize.

Ni umumama afite umusatsi, yambaye ikositimu n'ishati y'umweru mo imbere, ari kureba imbere, arimo araseka ndetse yari yishimye.

Ni igikorwa runaka cyabaye hano aba mama aba papa batonze umurongo hirya hari undi murongo na none wabantu benshi hateye amatente y'umweru hari indabyo hari ubusitani hari ibiti bigiye bitandukanye by'amoko yose.

Ni umuryango wa FPR Inkotanyi barimo kwamamaza perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, barishimye bavuga bati: "Tuzagutora." Bafite udupapuro mu ntoki turiho amabara atatu: ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Umuyobozi arimo ararahira afashe ibendera ry'u Rwanda ari imbere y'abayobozi bamwungirije arahirira indahiro yabahaye ko atazayitaterara

Abayobozi bagera muri bane baricaye, buri wese n'inyakiramajwi yiwe, barimo barumva ibyo mugenzi wabo arimo kubabwira, ni ibintu byiza barimo kuganira.

Umuyobozi cyangwa se umudepite, yicaye mu biro arimo arasobanurira abaturage cyangwa se abo bari kumwe uko azagomba kwitwara, cyangwa se ingamba afite.

Ni umumama we wunamye ku meza arimo arasinya, iruhande rwe hari abapapa babiri barimo kumufotora, yambaye ikote ry'icyatsi kibisi n'ijipo y'umutuku ndetse n'indorerwamo n'amaherena.

Ni umupapa abana ubona ko bishimiye cyane barimo kumuhobera nawe abahoberana ubwuzu, ku ruhande hari umuturage urimo kumufotora, hari n'abandi baturage bishimye cyane, hirya hari abafite ibyapa mu ntoki bigiye bitandukanye.

Ni abaturage bari kwamamaza FPR inkotanyi bambaye ingofero ya FPR ndetse n'imipira ya FPR,bakaba bafite agapapuro karimo amabara atatu y'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu bari kwamamaza perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Umuyobozi arimo arasobanurira abamwungirije, cyangwa abaturage, ingamba azanye mu buyobozi bamutoreye, ababwira n'intambwe agiye gutera.

Madamu Kagame ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye, barimo kuganira bungurana ibitekerezo, bamuhaye ijambo cyangwa se hari undi muntu bari gutega amatwi arimo abasobanurira.

Abayobozi baricaye ndetse hari n'abasirikare, inyuma yabo hari abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, hakaba n'abandi bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara na bote z'umukara, bari imbere y'abayobozi bari kureba ibiri kubera aha ngaha.

Abayobozi bicaye mu myanya yabo, hari abamama bagera muri bane barimo kurahira bafashe ku ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi.

Umuhanda urimo abamotari babiri, urimo na bisi zitwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo, ku ruhande hari ibiti bikikije umuhanda.

Ikamyo iri mu muhanda, ihetse ibintu, hari aho ibivanye n'aho ibijyanye, ku muhanda hakikijwe n'ibiti, hirya yaho hari abantu batandukanye.

Ni muri gare cyangwa se mu igaraje cyangwa aho bigishiriza imodoka. Hari bisi ebyiri iy'umweru ndetse ni indi ifite ibara ry'ubururu na move, imbere yaho hari umugenzi uri kugenda.

Ni abamotari babiri bari muri kaburimbo umwe ahetse umugenzi, undi ntabwo amuhetse, imbere yabo hari urukamyo runini cyane ruhafite imizigo rutwikirije shitingi y'ubururu, hirya hari inzu nini ya kadasiteri.

Imodoka y'ikamyo iri ku ruhande rw'iburyo, ikaba ihetse ibintu hirya hari indi modoka y'umukara, hepfo hari abagenzi mu muhanda hagati hari umugenzi, inyuma ye hari imodoka y'umukara y'ivatiri.

Ikamyo iri mu muhanda ku ruhande hari umugabo ufite agafuka yerekeza imbere, imbere yayo hari igare, hirya hari indi kamyo y'ubururu, hakaba n'umupolisi.

Aya ni amakamyo ashinzwe gupakira ibintu. Cyangwa se kwimura ahantu runaka bitewe n'aho bagiye. Ashinzwe kwikorera imizigo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ni isoko ririmo abaturage batandukanye. Hari abagabo babiri barimo barasunika ingorofani, cyangwa se icyo basanzwe bakoresha mu kazi...

Ni imodoka nini ikamyo itwara imiti iyijyana mu bigo nderabuzima bitandukanye ndetse no mu mafarumasi ku ruhande hari umupapa ufite umufuka ku rutugu akikijwe n'ibiti bigenda bi muri kaburimbo.

Ni ikamyo ipakiye ibicuruzwa bitandukanye, harimo imifuka, itwikirijwe na shitingi y'ubururu, harimo umugabo wicayemo, itwawe n'umushoferi iri mu muhanda. Ku ruhande rw'umuhanda hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo moto modoka, ikaba ishinzwe kwimura abantu, imbere ye hari imodoka nini y'ikamyo y'umutuku ndetse n'indi y'ivatiri.

Ni banyonzi babiri, umwe ari kumaka undi azamuka, inyuma y'umunyonzu umwe hari ipoto ndetse no ku ruhande rw hirya hari uw'undi munyonzi, imbere yabo hari ibikamyo bibiri by'imodoka zihetse ibintu.

Ni bisi ebyiri nini cyane, imwe ifite ibara ry'ubururu n'umweru, ikaba itwara abagenzi, ibajyana aho bagomba kujya, ndetse ku ruhande hari iyindi bisi nayo itwara abagenzi ,inyuma yanditseho mirongo itandatu

Umunyozi afite ahetse umuzigo ku igare ari kugenda arisunika, iruhande rwe hari bisi hari ikamyo nini cyane, hirya yaho hari bisi ebyiri, hari bisi imwe itwaye abagenzi ibajyane aho bagomba kujya.

Ni umuhanda werekeza mu mujyi, uteyeho ibiti ndetse n'imikindo, hari imodoka ebyiri z'umukara, ndetse inyuma yazo hari iyindi ya gatatu, n'abamotari babiri, batwaye abagenzi.

Umuhanda urimo ikamyo itwara umucanga ndetse n'ibindi bitandukanye, ku ruhande hari abamotari batwaye abagenzi ndetse hakaba n'abanyonzi batwaye abagenzi.

Ikamyo nini iri mu muhanda harimo umushoferi nta kintu ipakiye, aho ipakirira harimo umugabo urimo itwaye, yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero irimo ibara ry'umutuku, umuhondo n'icyatsi, kuruhande hari umumama uhetsa agakapu agahekeye mu mugongo, hari n'ibiti bihakikije by'amoko atandukanye.

Imodoka y'ivatiri, iruhande rwayo har’umumotari utwaye umugenzi ndetse n'imbere yayo har’abandi bamotari batwaye. Umwe atwaye umugenzi undi atwaye umuzigo.

Iyi ni ikamyo ikaba ishinzwe gutwara umucanga amabuye bitewe n'ikintu runaka, kandi ikaba inashinzwe no kuba yakwimura umuntu bitewe n'aho agiye yimukiye.

Imodoka iri kwerekeza ahagana imbere, imbere yayo hari izindi ebyiri, ku ruhande hari jaride hateye indabo, n'ibiti by'amoko yose.

Bisi itwara abagenzi ishinzwe kubagezaho bagiye ndetse n'imizigo yabo, iruhande rwayo hari moto modoka itwaza abantu ibintu bijya bitandukanye ibimura.

Imodoka irimo irerekeza aho igomba kujya, ku ruhande hari umumama n'umupapa bari kwerekeza imbere, habereye ibirori bitandukanye, hari abayobozi hari abaturage, hari igikorwa cyahabereye runaka.

Imodoka y'ikamyo itwara ibintu bitandukanye, imbere yayo hari bisi iri kuhaturuka, hari umugenzi uri ku ruhande. Inyuma hari ikamyo itwaye imizigo.

Ni umuhanda munini urimo igikamyo kinini gipakiye ibintu byinshi cyane, hirya hari ibiti bikikije umuhanda hari n'amatara y'ubwoko butandukanye.

Ni gikamyo kinini cyane igipakiye barimo gupakururamo amabati, hari abagabo batatu barimo kugipakurura, hirya hari inyubako zigiye zitandukanye, hari iyigeretse inshuro eshatu.

Ubwoko bw'imodoka imeze nk'imashini ikora itsindadagira umuhanda, imbere yayo hari hari bisi ihaturutse iri kwerekeza imbere.

Ni umuhanda ushashemo amabuye y'amatafari, hari moto modoka zigiye zitandukanye, iz'ubururu ndetse hari n'abashoferi bazo, hirya hari umumama n'umupapa, hari n'inzu z'ubucuruzi, hari amapoto acometseho insinga z'amashanyarazi.

Ni imodoka itwara amazi iyajyana mu bigega cyangwa aho bayashaka, ikaba irimo umushofe, iri muri kaburimbo, kaburimbo ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hakikijwe na supaneti y'icyatsi kibisi.

Imodoka ya Toyota iri muri kaburimbo, hirya yayo ni umumotari uhetse umugenzi ndetse n'imbere ye hari undi, ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse hari n'igikamyo kinini gipakiye ibintu.

Ni moto modoka itwikihirijwe na shitingi y'umukara, iri muri kaburimbo, imbere hari abagabo babiri bahagaze n'imodoka iri kugenda, hari amatara ku muhanda n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni muri kaburimbo ku ruhande hari ruhura, mo hagati mu muhanda hari igikamyo kinini ndetse n'imbere yacyo haturutse ikindi gikamyo, hirya hari bisi zigiye zitandukanye ndetse n'imodoka zisanzwe, hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni abanyonzi batandatu bahagararanye barimo kuganira ibijyanye n'akazi kabo cyangwa baganira ibindi mu buzima busanzwe.

Ni moto modoka ishinzwe gutwara ibintu yimura abantu ibajyana aho bagiye kwimukira, ukaba ubahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itandatu na gatatu mirongo itandatu na gatandatu mirongo cyenda na kabiri.

Ni mu mujyi hari imodoka ya bisi, ya taxi, kwasiteri, ndetse na moto ishinzwe kwimura abantu imbere yaho hari kazu ka eyateli hari n'abamotari.

Ni muri gare hari imodoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi, ni bisi ebyiri z'umweru ndetse n'indi bisi y'ubururu n'umweru, hirya hari abagenzi bari ku ruhande, hari umupapa ufite umwana ndetse n'umuma wambaye itaburiya y'umuhondo ya Emutiyeni.

Ni muri gare hari amabisi agiye atandukanye hari ay'umweru ashinzwe gutwara abagenzi, hirya hari inyubako zikora ubucuruzi butandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, amandazi, capati ndetse n'imigati.

Ni muri kaburimbo, mo hagati hari abamotari babiri batwaye moto, muri kaburimbo hari uturongo tw'umweru, hari amatara, hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo igera muri ibiri, harimo umurongo ugizwe n'amabara abiri umukara ndetse n'umweru, n'uwundi ugizwe n'ibara rimwe ry'umweru, hirya yaho harimo akabara k'umuhondo muri kaburimbo.

Imodoka ya bisi iri muri kaburimbo, ifite ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwayo hari iduka ricuruza omo za ogiso, zikaba zishinzwe gukesha imyenda, hari n'inyubako iriho irangi ry'umuhondo igereretse inshuro ebyiri, hirya hari indi nyubako nini cyane nanone igeretse.

Iyi ni imodoka ya ritiko ikaba ishinzwe gutwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo, ibajyana aho bagomba kujya kandi ikabatwara neza.

Imodoka y'ikamyo nini iri mu muhanda, ifite ibara ry'umuhondo ipakiye ibintu, imbere yayo umupapa uri kugenda, hirya ibiti bigiye bitandukanye, hakikijwe na supaneti y'icyatsi kibisi, hari n'inyubako y'ubucuruzi.

Ni inyubako ndende igeretse, hari ubusitani ndetse n'ibindi bitandukanye, hari umumama wicaye n'undi wo hirya w'umu ajenti wa MTN, hirya hari abantu bagiye batandukanye.

Ni mu mujyi hagiye hari utuzu dutoya, hari abaturage barimo gutembera, hari ubusitani n'ibiti by'amoko yose n'inyubako ndende ndetse n'ingufuya ndetse abaturage barimo gutembera bitewe n'aho buri wese ushaka kujya.

Ni ahantu hari jaride nini cyane hari abantu bahicaye bagiye batandukanye, abagabo bicaye ari babiri hirya abandi baturutse ku ruhande bari kuza imbere hari ibiti binini cyane by'imigano, by'amashami, hari abantu benshi bicayi batandukanye.

Ni inyubako nini cyane igereretse inshuro eshatu, ahagana hasi hari igipangu kigiye kiriho amatara ndetse n'indabyo, hasize irangi ry'ubururu, hirya hari ibiti bigiye bitandukanye, ndetse hari n'umuhanda urimo kugendamo abantu, hejuru hari urusinga rw'amashanyarazi.

Ni kuri sitade bakaba bahakinira umupira, hari amazamu, hirya inyuma ya sitade hari ibiti bigiye bitandukanye, hari imodoka iparitse y'ivatiri y'umweru ndetse imbere yayo hari umugenzi wambaye umupira w'umweru.

Ni ibyapa bibiri, kimwe kiyobora abagenzi, ikindi kiriho ikimenyetso cyo guteranya, hirya hari inyubako nini cyane imbere hari imodoka, hari n'abagenzi bagiye batandukanye.

Ni icyapa cyanditseho umubare wa mirongo itandatu ,kikaba kigizwe n'amabara abiri umutuku ndetse n'umweru.

Icyapa kiri ku muhanda kirimo amabara atatu umutuku n'umweru ndetse n'umukara, kikaba kiyobora imodoka cyangwa abagenzi.

Hano ni mu karere ka Muhanga, aho gatangirira, hakaba hari abaturage, ndetse hari n'ishyamba rinini, hashobora kuba hari igikorwa cyari cyahabereye.

Iki ni icyapa kigaragaza ko nta guparika, kigaragaza ko nta modoka igomba kuhaparika, hakaba higanjemo umutuku n'umweru.

Ni icyapa kiriho udufureshi tubiri kamwe kareba hasi, akandi kareba ku ruhande kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba kiyobora abagenzi bitewe n'aho bagiye kujya aho ariho.

Ni icyapa kinini cyanditseho KN gatatu Av ndetse KN mirongo itatu ST, hirya hari inyubako ndende ya etaje, mu gipangu hari ibiti bigiye bitandukanye by'amoko yose.

Icyapa kigaragaza ikimenyetso cyo guteranya, kikaba kigizwe n'amabara atatu, umutuku, umweru n'umukara.

Ni icyapa kiyobora abagenzi, kikaba kigizwe n'amabara atatu umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, iki cyapa kiyobora abagenzi kibereka icyerekezo bagomba kunyuramo.

Icyapa kiyobora abagenzi, ku ruhande hari amabara y'umuhondo, mo hagati umweru, hakaba hariho n'utubara dutatu, ak'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Icyatsi iyo cyatse biba bigaragarije abagenzi ko bagomba kugenda, umutuku ni uguhagarara.

Icyapa kiriho uturongo tubiri hari agahagaze ndetse n'akaberamye kikaba kigizwe n'amabara atatu umutuku, umweru, ndetse n'umukara.

Ni icyapa kinini cy'umuhondo, kikaba kiriho uturango dutatu, tubiri tureba hejuru n'akandi kareba hasi, gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni icyapa cyiganjemo amabara abiri ubururu n'umweru, udufureshi dutatu, tubiri tureba hamwe n'akandi kareba ku ruhande mu ruhande rw'icyo cyapa hari inzu, hari igipangu, imbere yaho hari ikindi cyapa ndetse hakaba hari na jaride.

Hano ni mu karere ka Rusizi hakikijwe n'imikindo ndetse n'indabo, bakaba bari bari guha ikaze abaza mu karere ka Rusizi.

Ni ibyapa bibiri kimwe kiriho udufurenshi tubiri kamwe kareba hasi n'akandi kareba hejuru, ku ruhande hariho ibara ry'umutuku, mo hagati ni umweru, hejuru hari ikindi cyapa nacyo cy'ubururu kirimo kigaragaza aho umugenzi aba agomba kunyura iyo ari kugenda.

Ni icyapa kiri hirya y'umuhanda, cyanditseho inyuguti ya P ndetse hariho n'imodoka ya bisi, igaragaza ko iyo igeze aha ngaha ihagarara, hejuru yaho hari umukingo muremure wubakishijwe n'amabuye, hirya hari umumotari n'imodoka y'ivatiri akikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Ni icyapa cyanditseho umubare wa mirongo itandatu, hasi hari akantu kagaragara nkaho ari kamera, handitseho urugendo kamera ihishwe. Hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibitoya.

Iki ni icyapa kirimo amabara ubururu n'umweru, kikaba kigaragaza kuba imodoka yahagarara iyo ikigezeho ikaba yahagarara.

Ni icyapa cy'umuhondo kihari iruhande rw'umuhanda, imbere yacyo hari ibiti bigiye bitandukanye. Mu muhanda nta modoka n'imwe irimo, hirya y'umuhanda hari utwapa dutoya tugera turi kuri uyu muhanda dusa umuhondo. Ndetse hirya hari inyubako zigiye zitandukanye izigeretse ndetse n'izitageretse.

Aha ni ku igorojoro rya Nyamagabe bakaba bahajyana abantu bafite imico itari myiza cyangwa se bananiranye bakagenda bakabagorora bakagaruka bameze neza bafite n'ubumenyi.

Ni icyapa kigaragariza abagenzi aho bajya, hakaba handitseho abajya ku Akanyaru, Huye Kibugabuga, Nyamiyaga.

Ni icyapa cyanditseho inyuguti ya pa kikaba gishushanyijeho bisi itwara abanyeshuri cyangwa abagenzi, imodoka iyo igeze aha ngaha irahagarara ni cyo biba bishatse kuvuga.

Ni icyapa kiri ku muhanda kiyobora abagenzi, hakaba hariho abantu babiri bafatanye bari kugenda, icyapa kigizwe n'amabara abiri, umutuku ndetse n'umweru, hirya hari ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Icyapa kirimo umurongo utambutse w'umutuku kigaragaza ko nta modoka yemerewe kuhaca, iruhande rwacyo hari abanyonzi, hari n'abamotari ndetse no hirya mu muhanda naho hari abamotari.

Ni umuhanda uriho inzuzubucuruzi butandukanyeturuka imodoka ya toyota yiivatire y'umukara hirya a icyapa cya Mutzig.

Uyu ni umuturirwa cyangwa se ahantu hatuwe, hakaba hari amazu menshi agiye atandukanye abaturage babamo cyangwa bakodesha.

Ni inyubako igaragara neza, ni aho abantu bajya kwiyakirarira cyangwa basohokera, hakaba hari aho banywera icyayi, hanze hateye intebe ndende, hari ibiti bigiye bitandukanye by'amoko yose.

Ni inyubako nini iri i Remera iriho ibirahure bigiye bitandukanye, igereretse inshuro eshatu, hasi hari imodoka ebyiri nziza, abamotari, abagenzi, hari icyapa cy'ubururu kirimo umuntu uhagaze ndetse n'indi bigiye bitandukanye.

Ni inyubako ndende ifite amadarajya, ndetse ku ruhande hubakishijwe n'amakaro y'ikigina, udukaro dutoya ndetse n'amanini, ikaba isize irange ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara, ndetse hejuru harimo umupapa urimo uramanuka kuri iyi nyubako.

Umuhanda urimo abagenzi, hakaba hari imodoka y'umutuku ndetse n'izindi z'umukara ebyiri, hakaba hakikijwe n'ibiti.

Iyi ni nyubako iri ku muhanda ikaba ifite urupangu rwiza, ikaba ikodeshwa kandi hirya yaho hari izindi nyubako zitandukanye.

Ni amazu menshi agiye yegeranye atandukanye harimo etage ndetse na konoshi ikikijwe n'ibiti byinshi ni amazu akodeshwa.

Ni Kibagabaga, hakaba hari amazu agiye atandukanye, hari amagufiya ndetse n'amaremare, hari ama etage ageretse, hari konoshi, hari umurima urimo ibigori, hari ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda ushashemo amabuye, harimo umunyonzi ushoreye igare, hari igipangu k'ijana na mirongo itandatu na gatandatu, hirya hari inyubako ya etaje igereretse kabiri, hari n'ibyapa bigiye bitandukanye, hari indabyo, hari n'imodoka ziparitse.

Inyubako ya etage icururizwamo ifite imiryango ine ni etage igeretse.

Ni inyubako zigeretse, imbere y'izi nyubako hari ipoto rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, iyi nyubako isize irangi ry'umweru ndetse n'ikigina, isakajwe amabati ajya gusa umukara, hirya hari indi nyubako isize irangi ry'umuhondo n'ivu, hirya ahagana hirya hari iyindi isize irangi ry'umweru.

Ndabona inyubako ya etage, ni ibipangu bibiri byegeranye. Imbere yacyo hari icyapa cy'umweru.

Ni inyubako zigiye zitandukanye hari konoshi hari na etage ndetse hari inyubako isize irangi ry'ivu cyangwa se rijya gusa nk'ubururu ahagana hirya hari inyubako ndende isize irangi ry'umweru ndetse, hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni isoko hakaba harimo abakarani ndetse n'abagenzi, abantu bagiye guhaha, hari imodoka zigiye ziparitse, ni mu isoko. Ndetse hari n'ibyuma, amapoto akwirakwiza umuriro.

Ni akazu gakorerwamo serivisi za MTN, hakaba hakorerwamo gutanga amayinite, kubitsa no kubikuza ndetse no kohereza, hirya hari inyubako z'ubucuruzi, hari n'abagenzi n'abagiye guhaha.

Ni inyubako igeretse kabiri ifite amakaro y'ikigina isize irangi ry'umuhondo ndetse na shokora, hejuru hari iyindi irimo akabaraza ikoze nka konoshi ifite ibyuma bisize irangi ry'umweru.

Ni mu isoko Kimironko kwa Mushimire, hakorerwa ubucuruzi butandukanye: terefone, imyenda, ibyo kurya, inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye, imiceri yo kurya, amavuta yo guteka, ayo kwisiga, poroduwi zigiye zitandukanye, ndetse haba na gare...

Iremera ku Giporoso hari abamotari benshi batwara abagenzi, hari abaturage, hari imodoka nyinshi, hari ipoto, hari amatara, hari inyubako zigiye zitandukanye.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyenda yaba iy'abagabo cyangwa iy'abagore hakaba hari n'ibikapu byo guheka mu mugongo, imyenda amasakoshi ndetse n'inkweto.

Ikigo cy'amashuri, abana barimo barakina, hirya y'aho naho hari abandi bana barimo gukina babyishimiye, ni ikigo kiza, kiri ahantu heza, hari aho guhumekera, hari ibiti by'amoko yose.

Aha ni i Kanombe mu kajagari hakaba hari inzu ya konashi iri ifite igipangu cy'amatafari ahiye, ndetse iruhande rwaho hari n'umugabo uhagaze n'umureba imbere yiwe.

Ni kuri banki hakaba ari ku giporoso bakaba bakora ibikorwa bitandukanye bazigamira abantu cyangwa se baje kubikuza amafaranga baba babikije.

Inzu iri mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye, hejuru hari ibyuma, hari ibiti mbere yayo hari ibyapa, hari n'imodoka n'inzu ya etaje ndetse n'amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka iri kugenda, inyuma yayo hari umunyonzi, imbere hari icyapa cya savisi za eyateri, ku ruhande hari amazu ama etaje.

Ni inyubako nini ya kadasitere, iruhande rwayo hari ikigega cy'umukara, handitseho ayapoti, ni ikibuga cy'indege, hirya hari amazu menshi agiye atandukanye, arimo umuriro, hari ibiti byinshi cyane.

Inyubako y'ubucuruzi hari abamotari babiri baparitse ndetse inyuma yabo hari imodoka ebyiri, kuruhande hari umuhanda werekeza muri karitsiye ituwemo n'abantu.

Ni mu mujyi hari imodoka ebyiri z'mweru za Toyota, hari abamotari batwaye moto zaho, etage yo gucururizamo imyenda ndetse n'ibindi.

Ni inyubako cyangwa ikigo cy'amashuri hariho amatara atatu, hasi hari imiryango, umuryango umwe, hari amadirishya atatu, hejuru naho hari ibirahure bigiye birimo utwenge tugiye dutandukanye akikijwe n'ibiti.

Inyubako zitandukanye zikikijwe n'ibiti by'amoko yose ndetse hirya hari ishyamba ry'ibiti by'inturusu, izi nyubako zisakajwe n'amabati y'umutuku ndetse hari inyubako isize irangi ry'umuhondo, ifite ibirahure, ifite n'imiryango igiye itandukanye.

Ni imihanda ibiri ya kaburimbo, hari urimo amabara y'umweru, hirya hari uwundi urimo umumotari, imbere ye hari imodoka y'umukara iri kugenda, ukikijwe n'ibiti ahagana imbere hari andi amazu ya etaje.

Hari umuhanda uriho icyapa cya KN gatatu lodi, hari n'umuhanda w'amabuye, hari umuntu urimo kuwugendamo, hari ishyamba, harimo n'ibyatsi, hari pasiparama, urabona ko uyu muhanda umeze neza nta kibazo.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo abamotari benshi, abamotari batatu bari imbere, inyuma yaho hari undi mumotari, ndetse no hepfo hari umumotari n'umunyonzi utwaye umugenzi.

Ni umupapa uhagaze muri kaburimbo, ari kuvugira kuri terefone, yambaye itaburiya ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, umuhanda arimo urimo uturongo tw'umweru, imbere ye ku muhanda hakikijwe n'ibiti bitandukanye, ahagana hirya hari imodoka ziri mu muhanda ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye.

Ni kaburimbo ikikijwe n'ibiti ku muhanda hari n'ibyapa bibiri icy'ubururu ndetse n'umweru, hari amatara amurika agiye atandukanye, n'ibiti byinshi cyane, mu muhanda nta kintu cy'ibinyabiziga kiri ku...

Umuhanda w'igitaka munini, kuruhande hari igipangu cy'ubururu gifashe ku nkingi ikoreshejwe n'amatafari ahiye, imbere hari ikindi gipangu nanone cy'ubururu gifite urugo rw'indabyo ndetse hirya hari ibiti binini, ahagana imbere hari izindi nyubako zigiye zitandukanye ndetse n'ibipangu bifite amatafari ahiye.

Ni muri gare, hari abamotari baparitse, mu muhanda rwagati hari umupapa uri kugenda, imbere ye hari imodoka, hirya ye hari umumotari uhetse umugenzi ndetse imbere hari igikamyo kinini kiri kugenda.

Mu muhanda munini wa kaburimbo, urimo jaride irimo umukindo, imbere hari amatara, ndetse hari n'ibyapa, hari imodoka ziri kuhanyura, umu motari uri kugenda, ndetse n'ibiti bihakikije.

Ni mu.. muhanda harimo abamotari babiri batwaye abagenzi, hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hari imodoka isa umweru, mo hagati harimo akajaride gahagazemo itara.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande hafashe amabuye, mo hagati harimo uturongo tw'umweru hirya hari abamotari batwaye moto zabo, ndetse hakurya hari undi muhanda urimo imodoka hari kwaka amatara y'umuhondo hari n'ikiraro.

N'umuhanda munini, ukikijwe n'inyubako zigiye zitandukanye hirya hari imodoka ya toyota iri kuhaturuka ndetse no ku ruhande rundi hari ikimodoka kinini cy'ikamyo gisa umutuku kikaba gishinzwe gutwara imicanga cyangwa amabuye bitewe n'aho kibijyana.

Ni umuhanda wa kaburimbo wegeranye na rigore, ku ruhande hari ibiti bigiye bitandukanye, ahagana hirya hari indabyo n'amatara amurika nijoro, ndetse harimo n'insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda urimo abagenzi bawukikije hirya hari ibiti ndetse hakaba hariho n'amatara, hari abamotari batwaye moto zabo.

Aha ni umuntu urimo uragenda, hari imodoka iri kumuca iruhande iturutse muri kaburimbo hari ibiti jaride, ubusitani.

Umuhanda urimo abanyonzi babiri n'umugenzi, hari inyubako nini iriho amatara abiri yaka cyane ndetse hirya hari abamotari.

Ni umuhanda wa kaburimbo imbere yawo hari hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hari amapoto n'ibyapa bigiye bitandukanye, ku ruhande hari jaride, harimo umukindo mu muhanda mo hagati harimo ...

Ni umuhanda urimo imiferege, hirya hari akazu gasize irange ry'ubururu, imbere hari umumotari udafite umugenzi ndetse n'imodoka iri guturuka imbere y'uwo mumotari, ahagana hirya hari inzu ya konoshi y'ubucuruzi.

Kuri kaburimbo ku ruhande ha utubuye dutonya, muri kaburimbo mo hagati harimo uturongo tw'umweru, ahagana hirya hari inyubako zicururizwamo ndetse mu muhanda harimo imodoka hakabamo n'abamotari batwara abagenzi, harimo n'ubusitani.